Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Umugore wambaye rinete, wambaye n'amaherena, akaba yambaye imyenda y'umukara n'akantu k'umweru mu imbere, yicaye ku ntebe, imbere ye afite agatabo yandikamo n'ikaramu.

Umuhanda urimo imodoka, imodoka ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu, harimo moto zitwaye abagenzi.

Umuhanda urimo imodoka irimo kugenda. Imodoka ifite ibara ry'umweru ikaba ipakiye ibintu. Hakurya y'umuhanda harimo umuntu urimo kugenda n'amaguru.

Umuhanda urimo imodoka nini, hakurya harimo ibiti bitandukanye, hari n'abantu batagaragara, iyi modoka ikaba ifiteho ibara ry'umweru.

Agapapuro k'ibara ry'umuhondo kandikishijwemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kerekana uburyo bwo kwishyura amafaranga uyanyujije kuri Emutiyene mu momopeyi, bifasha umucuruzi cyangwa se umukiriya kugira ngo abashe gukorana ubucuruzi.

Umuhanda hakurya y'umuhanda hari amazu abiri, hakuno y'umuhanda hari igipangu, hakaba hari n'ahantu bari gucukura, ahantu bashyira insinga z'amashanyarazi.

Agapapuro k'ibara ry'umuhondo kandikishijwemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kerekana uburyo bwo kwishyura amafaranga uyanyujije kuri Emutiyene mu momopeyi, bifasha umucuruzi cyangwa se umukiriya kugira ngo abashe gukorana ubucuruzi.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Imodoka igaragaramo igice gito cyo hejuru, hakurya yayo hari inzu ifite igipangu, ikaba ifite n'amadirishya afite amarido asa icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi iruhande rwayo haparitseho imodoka zitandukanye, hakurya hari n'abantu barimo kuza, hari abicaye, hari n'imodoka zirimo gutambuka mu muhanda w'igitaka.

Umuhanda urimo urujya n'uruza imodoka zitandukanye harimo na moto zitandukanye n'abantu barimo kugenda, hakurya harimo inyubako y'igorofa ifite amabara y'ubururu.